Itsinda ry'abantu benshi abagore, abana, abagabo, umugabo yahagaze imbere yabo ari kubigisha afite ikaramu, afite ikayi afite telefone yambaye furari, ari imbere y'inzu y'ibiti ifite inzugi, imanitseho igipapuro cy'umweru.

Abanyeshuri batandatu bambaye impuzangano bane b'abakobwa, babiri b'abahungu bose bafite udukombe, bamwe bari kunywa undi ari kuvoma amazi ku kigega cy'umukara, inyuma amabati ashaje, inzu y'amabati ashaje, urutoki, ibiti, amabuye.

Imugabo ufite ikintu mu ntoki wambaye ipantaro, wambaye agapira kandise amagambo y'umweru, ufite ubwanwa bari guseka, afite uruhara, afite amatwi, ari gusuhukanya n'umwana ufite umusatsi udasokoje, wambaye ishati, bari kumwe n'abantu benshi, inyuma hari ibiti, hari ubwatsi, hari akazuba,..

Abanyeshuri bambaye impuzangano, ikabutura y'icyatsi, ishati y'umweru, barifashe ku meza, bari kuvoma amazi yo kunywa, hirya hari umusozi, ibiti, ibyatsi, ikirere cyijimye kirimo ibicu byinshi, kigaragara nk'ikirimo imvura nyinshi.

Umumama munini wambaye umwenda ufite amabara y'ububuru n'umuhondo, ufite udukoma ku maboko, impeta mu rutoki, n'agapapuro kamuranga mu ntoki, ufite akanyamuneza ku maso, ufite umusatsi mwinshi, wambaye indorerwamo z'amaso, uhagaze imbere y'inzu y'amatafari ahiye, ifite amarange y'umweru, isakajwe n'amabati.

Umusaza wambaye ishati y'ubururu ifite ikora, ari guseka, afite ubwanwa burimo imvi, afite amenyo atuzuye, afite umunwa, afite amazuru, afite itama, afite amaso, afite agahanga, afite amatwi, afite umusatsi mwinshi, yiteze agatambaro. Inyuma y'iwe hari undi mugabo useka.

Umukobwa mwiza, ufite ijosi ryiza, ufite akananwa keza, ufite udutoki twiza, ufite amenyo meza, ufite iminwa iri kuyagirana ari guseka, afite amatama atemba itoto, afite amazuru meza, afite umusatsi mwinshi.

Umugabo w'ibigango afite akagozi k'umunwa, ari guseka, afite ubwanwa, afite amazuru, afite amaso abiri, afite ingoyi, afite ibitsike, afite umusatsi, afite amatwi, afite agahanga kameze neza, arishimye.

Icyumba kirimo urugi rw'umweru n'umukara, agatebo gatereretsemo indabo z'icyatsi, umukecuru n'umuganga, umukecuru ari kwakira amabwiriza y'uko ari bunywe imiti, ateze ikiganza kirimo agakomo ikindi gifashe ikirahure.

Umukecuru usheshe akanguhe uri guseka, ufite amaso, ufite amazuru, ufite umusatsi w'imvi, imvi ni umusatsi w'umweru, uri kumwe n'umukobwa, uri guseka, ufite amaso, ufite amazuru, umukobwa mwiza, ufite agasatsi keza, ufite agashati kariho ikora ry'umweru, ishati y'ubururu.

Umusaza usheshe akanguhe ufite imvi mu mutwe yambaye agapira k'umweru ishati mo imbere y'umupira ipantaro yu'mweru, uhagararanye n'umukobwa uri guseka wambaye imyenda y'abaganga bari muzu irimo amararido n'indabo.

Umurwayi uri gushanyiriza, ufite indorerwamo z'amaso ku mwenda, wambaye isaha, wambaye agapfukamunwa, ufite umusatsi uboshye, umuganga ari gutera urushinge umurwayi, yambaye isaha ku kuboko, yambaye agapfukamunwa, umurwaza wambaye ishati urimo utubara, wambaye n'agapfukamunwa.

Ibitaro bya Faisal bifite inzugi z'umweru n'amadirishya y'umweru n'ibirahure, ibiti, umuntu ubirinda, abantu bari kwinjiramo, ibirango by'igihugu n'ibirango by'ibitaro, amatara n'umuhanda.

Inzu isize amarangi y'umweru n'umuhondo, hasi ikozwe n'ibiti, hejuru ifite parafu, ifite amatara, ifite inzugi, zikozwe mu birahure no mu byuma, zimeze neza, ziragaragara neza, hararyoshye hasa neza.

Icyumba kinini kigaragaramo ibikoresho byo kwa muganga, ibitanda bishashe, amashuka y'ubururu n'umweru, utubati tw'ibiti n'amakayi, amakaramu, amashuka, amatara, kamera, amadirisha, n'inzugi n'imyenda.

Itsinda ry'abantu batanu, abagore bane, umugabo umwe, arishimye, abagore barishimye, bahagaze imbere y'inzu y'amatafari ahiye, ifite amadirishya, ifite inzugi, ifite n'ibirango hejuru y'amadirishya.

Umugabo uhagaze hejuru y'urwego, ufashe hejuru y'akabati, ari guherezwa n'umwirabura ufashe ikintu mu ntoki cy'umutuku, yambaye imyenda y'ubururu, inyuma hahagaze umugabo we wambaye apfukamunwa, hari akabati, hari indabo, hari inzu isakajwe n'amabati.

Umuti w'amenyo ukozwe mu gikakarubamba woza amenyo agasamweru, akarinda uburwara, akarinda gucukuka, kurwaragurika no kuribwa mu kanwa no kugira ubugenda akanwa no kunuka mu kanwa ahubwo ugahora uhumuraramuka.

Icupa ry'ikirahure, rirabonerana, rifite ikirango cy'umweru mu kirango cyanditswemo amagambo y'umukara n'amabara y'icyatsi, rifite umufuniko w'umweru ryegetse ku giti gisa neza, gikeye.

Icupa ry'umweru, ni rinini hasi, ni rito hejuru, rifite umufuniko w'umweru, rifite ikirango kirimo amabara abiri, umukara n'umweru, aho umweru handitsemo amagambo y'umukara, aho umukara handitsemo amagambo y'umweru.